Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'ubururu ndetse n'amakabutura bakaba bafite ibitabo bifashisha basoma bakaba bicaye bakikije ameza, imbere yabo hari umwarimu, bakaba biga mu mashuri y'inshuke.

Abarezi bahagaze iruhande rw'abanyeshuri bicaye ku musambi uri mu busitani, aho iri rerero ari irerero ry'abana b'incuke, bafite ibitabo birimo amashusho agenda abereka inkuru zitandukanye, mu kugira ngo babafashe kwagura ubwenge.

Umwarimu uhagaze imbere y'abanyeshuri bicaye hasi ku musambi mu busitani bukikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye, akaba yari arimo kubaha inyigisho. Aho abanyeshuri bicaye bafite ibitabo barimo gusoma, umwarimu abahagaze imbere.

Umwarimu uhagaze imbere y'abanyeshuri, abana b'inshuke biga mu mashuri y'ikiburamwaka, akaba ahagaze arimo kubabwira, arimo kubatoza uturirimbo, hamwe n'undi mubyeyi umufasha kwita kuri aba bana, kugira ngo bakure mu gihagararo, kandi bakura no mu bwenge.

Abanyeshuri biga mumashuri y'incuke, bambaye impuzankano y'amashati y'ubururu bwerurutse, hamwe n'ubururu bwijimye bw'amajipo, bakaba barimo kugenda biruka aho bari barimo gusabana bidagadura mugihe cy'ikiruhuko.

Abanyeshuri b'abana bato, bicaye ku ntebe bakaba biga mu ishuri ry'incuke, bakaba bambaye impuzangano y'amashati y'ubururu bwerurutse, ndetse n'amakanzu, n'amajipo y'ubururu, bakaba barimo kwigishwa uturirimbo dutandukanye, bibafasha gukura neza.

Abana bato bicaye ku musambi bakaba bari mu nzu itangirwamo uburere ku bana bakiri bato, rikaba ari irerero ry'abana baturuzuza imyaka yo kujya gutangira amashuri abanza. Aha ngaha bikaba bibafasha gusabana n'abandi bana ndetse no gukura neza.

Icyumba cya mwarimu, ari byo biro by'abarimu bigisha mu ishuri ry'amashuri abanza, rya Mukoni, riherereye mu karere ka Huye,i iki cyumba akaba ariho ari byo biro, by'abarimu bigisha muri iki cyumba batangamo uburezi.

Ikibuga gikinirwamo imikino y'intoki ya Basket, akaba ari ikibuga cyubatse neza kirimo sima ndetse gikikijwe n'amatafari yubatswe muri sima, iki kibuga kandi gikikijwe n'inyubako z'ikigo cy'amashuri yisumbuye atangirwamo ubumenyi butandukanye.

Inyubako z'ibyumba by'amashuri, byubakishijwe amatafari ahiye, bifitemo amadirishya asizwe amarangi y'umweru. Imbere hakaba hahagaze umunyeshuri wambara impuzangano, igizwe n'ijipo ya kaki ndetse n'ishati y'umweru. Aya mashuri kandi akaba akikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibiti bitandukanye, indabo ndetse na pasiparama.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ya kaki ndetse bakaba bari mu busitani bw'ikigo cy'amashuri, abandi bari mu kibuga kiri rwagati mu mashuri, barimo gukina bidagadura mu gihe cy'akaruhuko. Aya mashuri akaba yubakishijwe udutafari duhiye, asakajwe amategura, kandi akaba arimo inzugi zisize amarangi y'umukara.

Intebe zikozwe mu mbaho ziri mu cyumba cy'amashuri ndetse n'utundi dutebe duto twa sheze duteretse imbere y'akabati ka mwarimu, biri mu cyumba cy'amashuri abanza, aho abanyeshuri baza bakigira mu mashuri abanza.

Ibishushanyo bitandukanye bimanikwa mu mashuri y'incuke, bifasha abana biga muri aya mashuri y'incuke kuza ku ishuri babikunze kandi bikabafasha gukunda ishuri, bityo bakaza bafite gahunda yo gutahana ubumenyi bwisumbuyeho.

Abanyeshuri barimo kwiga isomo ry'imibare ku kibaho, aho bari barimo gukora isuzumabumenyi ryanditse ku kibaho cy'umukara imbere mu ishuri, aho mwarimu yari arimo kubereka ibyo bari buze gukora mu gihe yari arimo gusuzuma ibyo yabigishije ko babifashe.

Icyapa kimanitse mu ishuri ry'amashuri abanza, aho gishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye n'amazina yabyo mu rurimi rw'Igifaransa, ibi bikaba bifasha imyigire y'abana biga mu mashuri abanza, mu kugira ngo bajye bahora bibuka ibyo biga bibazamurire ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri gifite amashuri yubakishijwe udutafari duhiye ndetse n'imiryango isize irangi ry'icyatsi hamwe n'akabaraza kari imbere kubakishijwe ibyuma na byo bisize ibara ry'icyatsi, aha akaba ari mu kigo cy'amashuri abanza.

Ikigo cy'amashuri giherereye mu Karere ka Nyanza cya EAR Diyoseze Shyogwe, kigaragarwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, iki kigo kikaba gitanga ubumenyi bufatika kandi bwiza kuri abo banyeshuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ya kaki ndetse n'iya cotton y'ubururu, harimo abarimo kwandika ndetse bafite ibitabo imbere yabo aho bari barimo kwigishwa gusoma no kwandika, mu mashuri abanza mu kigo cy'amashuri ya primaire.

Isomero ryo mu kigo cy'amashuri yisumbuye, kikaba kirimo ibitabo by'ubwoko butandukanye, n'ameza yo gusomeraho ku banyeshuri, mu gihe baje gusomera muri iri somero, bikaba bibafasha mu kunguka ubumenyi butandukanye binyuze mu gusoma ibitabo.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri cy'amashuri abanza kikaba cyubakishijwe udutafari duhiye hakaba harimo intebe zikozwe mu mbaho ndetse n'akabati ka mwarimu gakozwe mu mbaho imbere hakaba hari ikibaho mwarimu yandikaho mu gihe ari gutanga amasomo.

Umunyeshuri uhagaze mu kigo cy'amashuri abanza ndetse n'ay'incuke, hakaba harimo n'abandi bana bambaye impuzangano y'amashati y'ubururu bwerurutse ndetse n'amakabutura n'amajipo bya kaki, bakaba biga mu kigo cy'incuke.

Ibikombe bitandukanye byatwawe n'ikigo cy'amashuri mu mihigo itandukanye cyagiye gitsinda, ibi bikombe bikaba biri hejuru y'akabati gakozwe, mu mbaho mu biro by'umuyobozi mukuru w'iki kigo cy'amashuri.

Inyubako zubatse mu buryo buzengurutse, zikaba zubakishijwe amatafari ahiye, zikaba zisakajwe amabati y'ubururu ndetse n'ay'umutuku, hakaba harimo indabo ndetse na pasiparama n'ikibuga abanyeshuri bakiniramo, mu gihe cyo kwidagadura.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bafite ibikoresho bakoresha mu gihe barimo kugaburirwa bafata amafunguro, aho bari babijyanye aho byogerezwa. Aba banyeshuri bakaba bavuga ko kugaburirwa ku ishuri bibafasha gukunda ishuri kandi bakiga bafite imbaraga, bashyizeho umuhate.

Ishuri ry'incuke rikaba rigaragarwamo n'ibishushanyo bitandukanye binezeza abana bibafasha gukunda ishuri, bityo bakaza kwiga banezerewe kandi babishaka, bibazamurira urukundo rwo kwiga ndetse no kunguka ubumenyi bwinshi mu gihe bageze ku ishuri.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza bambaye impuzangano y'amashati y'ubururu hamwe n'amakabutura ya kaki, bityo harimo n'abahetse ibikapu birimo amakaye yabo, aho bari bagiye mu gufata amafunguro muri gahunda ya Leta yashyizweho yo kugaburira abanyeshuri abana biga mu mashuri mu kubafasha mu kuzamura imyigire yabo.

Amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, akaba afite imiryango isizwe amabara y'icyatsi, akaba ari amashuri aherereye mu Karere ka Huye, akaba atangirwamo, amasomo mu mashuri y'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Abanyeshuri bambaye impuzangano y'amashati y'ubururu bwerurutse ndetse n'amakabutura n'amajipo bya kaki, aho bari bavuye ku ishuri barimo kwidagadura mu gihe cyo gutaha, aho bari basoje amasomo y'umunsi yabo barimo gutaha.

Parikingi yo mu kigo cy'amashuri, ahari icyapa kigaragaza ko ari ahaparikwa imodoka z'abashyitsi basuye iki kigo cy'amashuri. Iki kigo cy'amashuri kikaba gifite inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, ndetse n'amadirishya asizweho amabarabara y'umukara.

Ibishushanyo bimanitse ku nkuta z'amashuri y'incuke, harimo igishushanyo kiriho ballon umupira wo gukina, intebe, igiti, ikereyo ndetse n'ikayi n'igitabo, bikaba bifasha abanyeshuri kwibuka ibyo biga bya buri munsi, ndetse bikanabakundisha ishuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ya kaki, ndetse n'amashati y'umweru, bakaba biga mu mashuri yisumbuye, n'abandi bambaye amakabutura ya kaki, ndetse n'udupira tw'ubururu, bakaba biga mu mashuri abanza, mu kigo cy'amashuri cy'i Kibondo, giherereye mu karere ka Huye.

Ikigo cy'amashuri giherereye mu Karere ka Huye, kigaragarwaho n'urujya n'uruza rw'abanyeshuri bambaye impuzangano, y'amakabutura atukura ndetse n'amashati y'umweru, iki kigo kikaba gifite inyubako zubabakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati atukura, kikaba ari ikigo cy'amashuri abanza.

Ikigo cy'amashuri abanza cyubakishijwe amatafari ahiye kikaba gitewemo ubusitani burimo pasiparama ndetse kikaba gitewe iruhande rwacyo ibiti bifasha abanyeshuri bahiga kubona umwuka mwiza wo guhumeka.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru n'umukara ndetse na karuvati bakaba bambaye n'imipira y'umukara, aho bari bicaye bagiye guhabwa amasomo atandukanye hanze y'ishuri aho bari bayobowe n'umwarimu wabo.

Abanyeshuri bicaye mucyumba cy'inama, bicaye bakikije umwarimu wabo wambaye ipantaro yumukara ndetse n'agapira k'umweru, abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano y'amajipo ndetse n'amapantaro ya kaki hamwe n'amashati y'umweru aho bari barimo kugirwa inama n'uyu muyobozi wabo.

Ameza akozwe mu mbaho zibajwe mu biti, zikaba zibyazwa n'abakora umwuga w'ububaji, aho ziteretse mu ishuri imbere y'ikibaho cy'umweru cyifashishwa n'umwarimu mu gihe arimo gutanga amasomo ku banyeshuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bicaye mu cyumba cy'ishuri, aho bari barimo kwiga, imbere yabo hari amakayi, ndetse bafite n'amakaramu barimo kwandika, bakaba barimo kwiga bigishwa n'abarimu b'inzobere, bibafasha mu gukarishya ubwenge bwabo.

Ikigo cy'amashuri abanza ahagaragara urujya n'uruza rw'abanyeshuri, akaba ari amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, akaba asakajwe amabati asizwe amabara y'ubururu, imbere hakaba hari ubusitani bwiza burimo pasiparama ndetse n'ibendera ry'igihugu.

Ikigo cy'amashuri cya Gatagara giherereye mu Karere ka Huye mu Ntara y'Amajyepfo, kikaba ari ikigo gifite inyubako nziza yubatswe mu buryo bugeretse, ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza bwa pasiparama burimo ibiti by'ubwoko butandukanye harimo n'imikindo.

Icyapa cy'ikigo cy'amashuri yisumbuye cya (Ecole secondaire centtdnitd Ruhango) giherereye mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo, kikaba gitangirwamo ubumenyi ku mashuri y'icyiciro rusange (tron comme) ndetse n'icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye.

Ibishushanyo byiza bitatse ku bikuta by'amashuri y'incuke, bikaba bifasha abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke gukunda ishuri kandi bikabafasha kugira ubumenyi ku bintu bitandukanye kuko bibafasha kwibuka ibyo bize, bikabazamurira ubumenyi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amajipo ya kaki ndetse n'udupira tw'umweru. Bakaba bambaye n'utugofero tw'umweru, aho bari bari ku mirongo igororotse, aho bari bari muri stade bamaze kugezwaho ibiganiro barimo kumurika ibihangano byabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho bambaye impuzankano igizwe n'amashati y'umweru, ndetse n'amapantaro ya kacyi, aho imbere yabo hari mudasobwa, aho bari bagiye mu cyumba cyo kwigiramo ikoranabuhanga, barimo kubereka amashusho y'uburyo ibi bintu bikora neza.

Abanyeshuri bahagaze imbere bambaye impuzankano y'amajipo y'ubururu, amashati y'umweru ndetse n'imipira y'ubururu, inkweto z'umukara ndetse n'amasogisi y'umweru, aho bagize korari iririmba, imbere yabo hahagaze umuyobozi wabo arimo kubaterera igipimo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ya kaki ndetse n'amashati y'umweru, aho bari bicaye muri pasiparama y'ubusitani buri hagati mu kigo cy'amashuri, imbere yabo hahagaze umunyeshuri ubahagarariye, ndetse n'umuyobozi w'ikigo, aho bari barimo kuganirizwa kuri gahunda zitandukanye za Leta.

Abanyeshuri biga mu ishuri ry'ubumenyingiro RP, aho bari barimo kumurika umushinga wabo wo gukora imashini yifashishwa mu gupima ubutaka, aho bari batumiye abayobozi babo, mu kubereka uburyo iyi mashini izakora n'uburyo izafasha mu iterambere ry'ubuhinzi mu Rwanda.

Ishuri riherereye mu ntara y'amajyejyepfo ya virigo fidelisI; akaba ari ikigo cy'amashuri gitanga ubumenyi butandukanye, kikaba ari ikigo cy'idini rya Gatorika, kikaba gitangirwamo amasomo atandukanye, haba icyiciro rusange (tronc commun) ndetse n'icyiciro gisoza cy'amashuri yisumbuye.

Minisitiri w'Uburezi, aho yari yagiye gutangiza igikorwa cy'ibizamini bya Leta mu mashuri yisumbuye, aho yari arimo gutanga ibipapuro by'ibizamini ku banyeshuri bari bari gukora ibizamini bisoza amashuri yisumbuye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ya kaki ndetse n'amashati y'umweru, aho bari barimo gusobanurirana amasomo bari bize, bafite amacaki, bari kwandika ku kibaho, mu kugira ngo biyibutse ibyo mwarimu yabigishije.

Imikino y'imyidagaduro mu kigo cy'amashuri aho abakinnyi bari barimo gukina umukino w'intoki wa basiketi, aho bari barimo gukamerwa, abayobozi bicaye mu mahema ya gisirima agezweho, n'abanyeshuri bambaye impuzankano bazengurutse ikibuga, barimo gufana.

Umwarimu uhagaze imbere y'abanyeshuri mu ishuri ry'amashuri abanza, rikaba ririmo abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro n'amajipo y'icyatsi. Aho yari arimo kubagezaho ikiganiro ndetse yakira n'abashyitsi bari babasuye.

Ishuri ryubatswe mu buryo bugezweho rikaba ari ishuri ririmo parafo nziza z'umweru ndetse n'intebe nziza zo kwicara no kwegamira, imbere hakaba hari ikibaho cy'umweru ndetse n'ameza ya mwarimu ahagarara agashyiraho projecteur na mudasobwa mu gihe arimo gutanga amasomo.

Abanyeshuri biga amashuri yisumbuye aho bambaye impuzangano igizwe n'amashati y'umweru, amajipo ya kaki ndetse n'imipira y'ubururu, bahetse ibikapu bavuye ku ishuri aho bari batashye basoje amasomo y'umunsi.

Ikibaho gisizwe amarangi y'umukara kikaba cyanditseho tayipusi ofu inaji, aho abanyeshuri bari barimo kwiga ibijyanye n'ingufu, aho iki kibaho kiri mu mashuri yisumbuye atangirwamo ubumenyi butandukanye.

Inyubako y'igipangu kizengurutse ikigo cy'amashuri cya groupé scolaire officiel de Butare indatwa giherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, kikaba gikikijwe n'ubusitani bwiza ndetse butewemo n'ibiti byiza n'indabo zitandukanye.

Inyubako ifite ubwinjiriro bwiza, busizweho amarangi atandukanye, ndetse n'ibishushanyo bitandukanye, bikaba ari ubwinjiriro bw'ishuri ryisumbuye rya Groupe scolaire officiel de Butare, riherereye mu Karere ka Huye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara, bambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, bakaba bafite impapuro mu ntoki ndetse n'amakaramu, aho bari barimo gukora isuzuma bari bahawe n'abarimu babo kugira ngo basuzume ubumenyi bw'ibyo bize.

Imodoka yo mu bwoko bwa tagisi, ikaba ari imodoka yanditsweho school bus. Ikaba isize amabara y'umweru, ikaba yifashishwa mu gutwara abanyeshuri ibavana ku ishuri ndetse ibazana ku ishuri mu rwego rwo kuborohereza urugendo kugira ngo bazamure imyigire yabo.

Icyapa kigaragaza amashami aba mu ishuri ryisumbuye rya Butare rizwi nka Groupe Scolaire Officiel de Butare, Indatwa, aho bagaragaza ko bafite umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri ndetse n'umwaka wa gatatu, mu mashami agiye atandukanye, atangirwa muri iri shuri.

Umunyeshuri wiga muri kaminuza y'u Rwanda yicaye ku gitanda gishashaho amashuka arimo amabara y'umukara ndetse n'ay'umweru, akaba yari avuye gufata amasomo ye, akaba yiga muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, aho biga bacumbikirwa mu kigo.

Icyapa giteye ku muhanda, inyuma yacyo hakaba hari ibiti by'ubwoko butandukanye, icyapa kikaba kiri ku kigo kita ku bana bafite ibibazo bitandukanye, kibafasha kubona ibyo bakeneye bya buri munsi ndetse kikabafasha gukura neza no kwiteza imbere.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba cy'inama bambaye impuzankano y'amakabutura ndetse n'amajipo y'ubururu bwijimye ndetse n'amashati y'umweru, aho bicaye mu ntebe y'umweru harimo umwe uhagaze afite indangururamajwi iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye agapira k'umweru afite impapuro mu ntoki.

Abanyeshuri bicaye muri salle y'inama bakaba bambaye impuzangano y'amashati y'umweru ndetse n'amajipo ya kaki hamwe n'amapantaro ya kaki, aho bari barimo kugezwaho ikiganiro ku bijyanye n'imyororokere ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe n'ibindi bijyanye n'ubuzima, kugira ngo bakure bazi iby'ubuzima ku buryo buhagije, bibafasha gukura neza.

Umurezi wambaye umwambaro w'akazi wabugenewe ugizwe n'itabuririya y'umweru yanditsweho "ecole secondaire and primaire luli", akaba ahagaze inyuma y'ikigega gifite ibara ry'umukara aho yari arimo kureba abana bari barimo kugenda ku mashuri ababwira ngo binjire mu mashuri, iki kigo kandi kikaba gifite ubusitani bwiza burimo pasiparama ndetse n'indabo zitandukanye.

Umunyeshuri urimo kugenda mu kayira kagenzwamo n'abanyamaguru arimo kugenda muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aka kayira kakaba gakikijwe n'ubusitani bwiza burimo pasiparama ndetse n'indabo nziza hamwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, ndetse zisakajwe n'amabati y'ubururu, ay'umutuku, zikaba ziri mu Karere ka Huye, ahatangirwa amasomo atandukanye muri Kaminuza ya CUR.

Inzu ibamo abanyeshuri bo muri kaminuza, akaba ari inzu ifite imiryango iriho amarido y'umweru n'umukara, ikaba irimo akayetajeri kabugenewe babikamo inkweto, bakaba baba muri iyi nzu mu gihe barimo gukurikirana amashuri yabo muri kaminuza y'u Rwanda i Butare.

Inyubako z'amacumbi, ziri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho bacumbikira abanyeshuri benshi, bakaba bafite amacumbi meza kandi ahagije, afasha abanyeshuri kubona aho baba, mu gihe barimo gukurikira amasomo yabo muri iyi kaminuza.

Umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda, wicaye imbere ye ku meza harambitse mudasobwa ndetse n'igitabo cy'ikayi yari arimo yifashisha yiga, imbere ye hakaba hari ikibaho cy'umweru, kifashishwa na mwarimu mu gihe arimo gutanga amasomo.

Icumbi ribamo abanyeshuri biga kaminuza, aho hariho ameza ateretsweho mudasobwa ndetse n'imitako itandukanye hamwe na sharijeri, imbere hakaba hari intebe yo kwicaraho, iruhande hariho ameza ariho udukoresho dutandukanye bifashisha ndetse n'imyenda bambara mu gihe bagiye ku ishuri.

Icyumba cyo kuryamamo cy'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye. Kikaba kirimo matela ndetse n'ibitanda, hamwe n'utubati twiza twabugenewe, babikamo inkweto zabo. Mu kugira ngo, icyumba cyabo kibe gikeye, kandi gifite isuku.

Isomero ryo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, iri somero rikaba ririmo ibitabo by'ubwoko butandukanye byinshi cyane bifasha abanyeshuri bahiga kugira ngo bunguke ubumenyi binyuze mu gusoma ibitabo bitandukanye bibungura ubumenyi.

Umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Wicaye urimo gusubira amasomo yiwe, aho imbere ye ku meza hari hateretse mudasobwa, akaba yicaye mu ishuri ririmo intebe nziza ritangirwamo amasomo. Imbere hari ikibaho cy'umweru.

Inyubako nziza y'igorofa yubatswe igeretswe ikaba iriho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, ikaba ari inyubako iri mu ishami rya Huye, mu karere ka Huye, hakaba hatangirwa amasomo atandukanye muri iyi kaminuza.

Isomero ryo mu kigo cy'amashuri, rikaba ari isomero ririmo ibitabo byinshi bitandukanye byiza, bifasha abanyeshuri mu gukarishya ubwenge bwabo, aho ibitabo bipanze mu tubati twabugenewe tw'utwetajeri, dukozwe mu biti n'ibyuma bikabafasha kubibona byoroshye bityo bakiga neza.

Sare y'inama ya Main Auditorium iherereye mu karere ka Huye muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, akaba ari icyumba gikorerwamo inama ndetse n'amahugurwa, kikaba ari icyumba kigari kandi cyiza gifasha abanyeshuri mu biganiro byabo bitandukanye.

Icyumba cy'abarimu ndetse n'abagize komite yita ku banyeshuri biga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, aha ngaha akaba ari cyo cyumba bicaramo mu gihe bari mu nama biga ku bibazo bitandukanye n'uburyo bazamura ireme ry'uburezi muri iyi kaminuza.

Inyubako nziza zigize kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, harimo n'igice kirimo ubusitani bubereye ijisho, burimo pasiparama ndetse n'ibiti bitandukanye by'indabo, aho abanyeshuri bavuga ko ikigo cyabo kigaragara neza, bikabafasha mu myigire yabo ya buri munsi.

Inyubako zo muri kaminuza y'urwanda ishami rya huye, izi nyubako zikaba ari amacumbi y'abakobwa, ahagaragarwa n'abakobwa baba muri aya macumbi biga muri kaminuza y'urwanda ishami rya huye, ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo pasiparamu, ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abarezi muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye bateraniye mu cyumba K'inama imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi aho bari barimo kuganira ku ngingo zitandukanye zibafasha kuzamura imyigire ndetse zibafasha no gutanga ubumenyi buhamye.

Kaminuza y'abagatolika y'urwanda ya CRU iherereye mu karere ka huye ishami rya taba, ikaba igaragarwamo urujya n'uruza rw'abanyeshuri biga muri iyi kaminuza, ikaba ifite inyubako imbere yayo hari idarapo rya kaminuza ndetse n'iry'igihugu, ku muryango hakaba harimo ubusitani bwiza bubereye ijisho burimo pasaparamu.

Umunyeshuri wiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho yari yicaye mu icumbi mu cyumba babamo, aho iki cyumba cyubatswe mu buryo bugezweho, kirimo aho kogera intoki, ndetse no mu maso, habugenewe, h'ahasirimu hagezweho, ndetse n'uburiri, ibitanda byiza, ndetse n'aho kubika imyenda n'ibindi bikoresho, bakaba bafite na mudasobwa zibafasha mu myigire yabo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, aho bari barimo gukoresha ibyuma bigezweho, byifashishwa mu gupima udukoko tutaboneshwa amaso tuba mu mubiri dushobora gutera indwara, aho bari barimo kwigishwa n'abarimu b'inzobere.

Ishuri ryubakishijwe udutafari duhiye, rifite umuryango usizwe ibara ry'umukara hakaba yicayemo umunyeshuri wari urimo gusubiramo amasomo, imbere hakaba hari ikibaho cy'umukara ndetse n'umweru, n'intebe nziza zo kwicaraho, imbere hakaba hari ameza ya mwarimu.

Amacumbi aryamwamo n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, hakaba arimo ibitanda byubatse ku buryo bugeretse, hakaba harimo ameza bashyiraho udukoresho twabo, ndetse n'amagariderobe babikamo imyenda, ndetse n'ibindi bikoresho byabo.

Isomero ryo mu kigo cy'amashuri rikaba ari isomero rifite ibitabo byinshi bihagije kandi byiza bipanze mu tubati twabugenewe ndetse n'intebe n'ameza byicarwamo n'abaje gusoma muri iryo somero, ibi bitabo bikaba bifasha abanyeshuri gukarishya ubwenge.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, biga ibijyanye n'ubuvuzi. Aho bari muri laboratary barimo kwiga gukoresha microscope zifashishwa mu kureba utuntunyabuzima duto cyane tutaboneshwa amaso, dutera indwara mu mubiri.

Umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, uhagaze inyuma y'abanyeshuri bicaye bakoze umuzenguruko, bakaba bari bari mu isuzuma, aho yari arimo kubabaza ku masomo yari yarabigishije, mu kugira ngo arebe urwego rw'ubumenyi ndetse anapime ibyo bakuye mu byo yabigishije.

Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye akaba ari kaminuza ifite inyubako nziza ndetse n'utuyira twiza tunyurwamo n'abanyeshuri ndetse n'abarezi, dukikijwe n'ubusitani bwiza burimo pasiparama n'indabo z'ubwoko butandukanye, ndetse n'ibiti bituma iyi kaminuza ihorana amahumbezi.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe nziza zigezweho ndetse n'ameza, aho abanyeshuri bicara batekanye neza Imbere hakaba hari ikibaho cy'umweru cyifashishwa na mwarimu mu gutanga amasomo yiwe. Iri shuri kandi rikaba rifite amadirishya afasha abanyeshuri kubona umwuka mwiza, mu gihe bari mu ishuri.

Umwarimu wicaye mu biro, ibiro bikaba bizengurutswe n'ibyapa bitandukanye biriho ibirango bya Kaminuza nkuru y'u Rwanda, akaba ari kaminuza itangirwamo ubumenyi mu mashami atandukanye, aho yari ari mu ishami rya Huye.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda bari muri laboratoire zabugenewe aho bafata ubutaka butandukanye bakabupima bakamenya ibigize ubutaka n'ibyo ubutaka bukenewe mu kubategura kuba abahanga mu by'ubutaka baza bafasha abahinzi kwita ku butaka kugira ngo hazamurwe umusaruro w'ubuhinzi mu Rwanda.

Imeza ikozwe mu giti cyiza ikaba iriho ibikoresho bitandukanye harimo amacupa, ibikombe, amata yo mu bicupa ndetse n'ibirahuri ndetse n'impapuro, n'imitaka bikaba ari ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza ishami rya Huye, aho bavuga ko amacumbi yabo aba ari meza cyane, kuko aba arimo isuku ndetse n'ibikoresho bakenera byose.

Umunyeshuri wicaye ku ntebe ziri mu kigo cy'amashuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ahigirwa abiga ibijyanye n'ubuzima, ahari icyapa cya School of Medecine and Pharmacy.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, bari bicaye mu cyumba cy'inama aho bari barimo kugezwaho ibiganiro n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima, zibagira inama ndetse zinababwira ibyo bagenderaho kugira ngo bazamure imyigire yabo.

Abarimu n'impuguke mu by'uburezi aho bari bicaye mu cyumba cy'inama, barimo mu nama nyunguranabitekerezo n'abayobozi bakuru bashinzwe iby'amashuri mu Rwanda, aho bari bari kwiga ku buryo bwateza imbere imyigire mu ma Kaminuza yo mu Rwanda.

Amacumbi yo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya huye, akaba ari amacumbi meza cyane agaragarwamo na garde robe zo kubikamo ibikoresho ndetse n'imyenda by'abanyeshuri hamwe n'ibitanda byiza biryamwaho n'abanyeshuri biga muri iyi kaminuza.

Icyumba gitangirwamo amasomo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, kikaba kirimo intebe nziza zifasha abanyeshuri kwicara ndetse n'ibibaho by'umweru ndetse n'icy'umukara hamwe n'isakazamashusho ibafasha kubona ibyo mwarimu ashaka kuberekera ku ikoranabuhanga.

Abarimu bigisha muri kaminuza y'u Rwanda ndetse no mu yandi makaminuza ndetse no mu mashuri yisumbuye, aho bari bahuriye mu cyumba cy'inama barimo kuganirizwa ku ngingo zitandukanye, zabafasha mu kuzamura ireme ry'uburezi, aho bicaye imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa.

Korali y'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho bari barimo kuririmba mu gitambo cya misa, bakaba bavuga ko iyi korali ituma bihuriza hamwe bagakora ibikorwa by'urukundo bitandukanye ndetse bagahimbaza Imana, bityo bakunga ubumwe nk'abanyeshuri bagafashanya hagati yabo.

Ubusitani bwo mu kigo cy'amashuri cya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ubusitani bukaba butewemo ibiti by'ubwoko butandukanye bimwe mu bifasha mu gukesha iyi kaminuza bigatuma igaragara neza, ubusitani bukaba bugaragarwamo n'ibyapa bitandukanye harimo n'ibibuza abagana iryo shuri kwangiza ubu busitani.

Kaminuza y'ubumenyingiro ya RP/IPRC kitabi iherereye mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'amajyepfo ikaba ari kaminuza itanga ubumenyi bwiza harimo ibijyanye n'amashyamba, ubukerarugendo abahiga bakaba bavuga ko iyi kaminuza ibafasha kunguka byinshi ndetse no kugira ubushobozi bwo guhangana ku isoko ry'umurimo.